Agakapu abana biga mu mashuri abanza batwaramo amakayeyi, yabo bityo bakabasha kwiga neza kandi bafite isuku. Ababyeyi mwese mushishikarizwe no kohereza abana ku ishuri bityo bizabafasha kugera ku iterambere mu buryo burambye.

Kaminuza ndetse n'amashuri yigisha imyuga n'ubumenyingiro, yose hamwe atanga ubumenyi ku banyeshuri bityo bakabasha gukoresha ubwo bumenyi bakuye mu ishuri, bakabukoresha mu buzima busanzwe, maze bakabasha kwiteza imbere, twese tugane ishuri kuko ishuri ridufasha kwiteza imbere kandi mu buryo bworoshye.

Amashuri ya kaminuza ndetse n'amashuri yigisha imyuga n'ubumenyingiro, yigisha abanyeshuri kwihangira imirimo, gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo nk'ibyuma bihinga kugira ngo babashe guteza imbere igihugu cyabo, baniteza imbere muri rusange.